Abakozi ba Kuruwaruje bambaye imyenda y'amajire ya Kuruwaruje, imbere yabo hari umugabo umeze nk'umuganga, hirya ye hari undi wambaye amarinete na we umeze nk'umukozi wa Kuruwaruje.

Abakozi ba Kuruwa ruje ubarangaje imbere afite ubwanwa, abumbye iminwa, yambaye akagofero k'umutuku, bose bambaye amajire ya Kuruwa ruje bari kureba imbere.

Abantu bicaye ahantu hameze neza cyane, ku meza umwe ahafite mudasobwa y'umukara, undi na afite mudasobwa y'umweru abambaye imyenda y'igitare ndetse n'abambaye imyenda y'umutuku bose baricaye bari kureba imbere, ameza ateretseho amacupa y'amazi.

Abantu bicaye imbere y'inzu, hari inkingi zifashe igisenge gitwikiriye aho abantu bicara, utwana tubiri dutoya turi kurebana, turi gutambagira, abandi barahagaze, harimo uheretse igikapu, n'undi amuri imbere ari kumuganiriza.

Abantu bicaye bareba imbere, umudamu umwe ameze nk'utwite, undi na we ameze nk'utwite ndetse n'umukurikiye, bari kureba umuntu ubari imbere, inyuma yabo hari abaganga, babiri baripfumbase, undi ari kureba hasi undi yifasha mu mayunguyungu.

Umubyeyi wicaye kumukeka afite igikombe mu ntoki, ari guha umwana igikoma. Umwana wambaye agapira k'umuhondo n'agakabutura. Umubyeyi yambaye agapantaro k'umukara impande ye n'inyuma ye hari abandi babyeyi bafite ibikombe by'ibikoma bari guha abana.

Umukobwa wambaye ijire ya Kuruwaruje ateruye umwana, amufatanyije n'umugabo, inyuma yabo hari abantu bicaye bari kubareba, abandi bitwikiriye imitaka bari ahantu hegereye ibyatsi ndetse n'ibiti birebire.